Umugabo uri gutera imiti mu myaka. Yambaye ga, yambaye n'ingofero, yambaye agapfukamunwa. Ari mu murima munini cyane, haruguru hariho ibiti hariho akantu k'agashyamba.

Umugabo uri mu myaka, ufashe icyuma kivomerera, ari kuvomerera yambaye ingofero y'umupira w'amaboko maremare, yambaye na ga mu ntoki.

Imyanda barunze mu umurima w'Ibinyomoro, imyanda myinshi, inyuma hari ibiti by'inturusu birebire n'ibigufi.

Umugabo ahagaze hagati mu bintu by'ibyatsi, ari kugenda abirunda, yambaye ikabutura iciye, hejuru yambaye ubusa, hirya hari uduti tureture hari igikuta cy'inzu.

Abahinzi bahinze ibigori bari gutera umuti bahetse amapombo. Bombi bambaye imyenda y'ubururu, amapombo asa n'umweru n'umutu, n'ibara ry'umweru n'umutuku. Haraguru hakurya yabo hari ibiti.

Depo irimo imifuka myinshi cyane ya kawunga, hirya hari ikintu cyu'bururu gihari, imifuka y'imyeru, harimo n'amabara y'icyatsi.

Umurima munini cyane uteyemo umuceri, hateretsemo n'icyuma kivomerera imyaka. Kiri kivomerera kiri gucucira, amazi ari kuva mu cyuma.

Imifuka irimo ibintu ipanze ahantu muri sitoke ipanze ari myinshi, hasi hari imbaho, ubundi bagenda bayipangamo kumurongo, iyo nzu hejuru hariho ibibaho by'icyatsi.

Ifumbire nyinshi irunze ahantu bapakiye mu ngorofani, ingorofani iruzuye, inyuma hariho ibindi byatsi biharunze byinshi cyane hari n'ibyatsi kuruhande.

Ibigori biri mu murima munini byinshi cyane, bimeze neza bitohagiye bifite ibara ry'icyatsi, hirya cyane hari ibiti byinshi cyane bigaragara nkaho ari agashyamba, hari icyapa.

Uducupa tune, dutatu turiho imibirikira, kamwe nak'ubururu kariho n'umubirikira w'ubururu, tubiri dusa n'icyatsi turiho n'imibirikira y'umuhondo, irindi cupa nta mubirikira uhari.

Imbuto y'ibigori yitwa Buride, iri ku dukoko dutatu. Inyuma hari udupaki bashyiramo iyo Buride, iyo bagiye kubiha abaturage ngo bajye kubihinga.

Uducupa twinshi dusa n'umweru dufite imifuniko y'icyatsi, umurongo wambere uriho amacupa menshi, hejuru hariho amacupa atatu gusa.

Amacunga akase, ari ahantu, birambitse ahantu n'inyanya n'amafi, birambitse ahantu biboneye, biryoheye ijisho

Amafi menshi cyane, barya menshi cyane, ntabwo abarika.

Amafi abiri amanitse mu tugozi ari kwerera. Hirya inyuma hari umuntu wambaye umwenda w'ubururu n'umweru ari kuyitegereza.

Amafi atatu meza cyane arambitse ku ipanu, iruhande hari n'ikirushi, hari na tungurusumu imwe iratonoye ni agaheke kamwe ntitonoye, ibitunguru na sereri.

Amafi meza bigaragara ko ahiye, barangije kuyakaranga neza. Afite ibara ry'umuhondo bateye ibirungo, abereye ijisho. Aya mafi matoya akunze kugaragara henshi.

Mu kiyaga kizengurutswe uruhande rumwe ibiti, hari ikirwa kiri hagati y'icyo kiyaga, hakurya hari indi misozi myinshi.

Ikiyaga kinini cyane, batezemo bashaka kuroba amafi n'ishundura, hakurya y'ikiyaga hari ubwatsi butoshye, hejuru cyane hari ibiti.

Amafi meshi cyane ari mu nshundura barobesha, ni meshi harimo n'utuntu tumeze nk'utudobo muri izo nshundura. Izo nshundura ziteretse ahantu ku ruhande hatari ku mazi.

Isahani iriho isamake, iriho amaronji akase, urunyanya rukase, puwavuro bakase, n'amafiriti ubona ko biboneye ijisho.

Amafi atanu ari ku isahani, amafi meza amafi afite intungamubiri, buri munyarwanda wese yihatira kugura ku rwego rwe, dore ko yose adahuje igiciro, hari n' amafi agura makeya.

Abantu babiri bateruye inshundura, hari n'abandi bafasheho haruguru bari kwitegereza amafi yabonetsemo ariko ni make, haruguru hari umurima munini ugiye uteyemo uduti n'utwatsi bari ku nkombe, ku mpande hari ikiyaga.

Ifi nini iri ku kantu k'akuma hariho n'icunga rikase, hasi hari ibindi bintu bihari bisa n'umutuku.

Isahani nini iriho ifiriti, amaronji, umuceri uri mu gasorori. Hejuru hariho seleri, amaronji asatuye ari kuruhande n'ifiriti.

Amafi bamanitse ahantu bashayikishije utugozi, amafi maremare amwe ari kureba hirya, andi ari kureba hino ni amafi meza cyane.

Amafi menshi cyane harimo ikintu baroberamo amafi ,amafi meza cyane afite ibara ry'umweru araryoha cyane, bakunze guteka ino aha mu majyaruguru.

Abagabo babiri bahagaze mu bwato, umwe ari imbere, undi ari inyuma, hari n'ibintu bafitemo, hari umugabo uri imbere yaziritse ubwato ku cyuma, yaziritseho umugozi, uri inyuma yambaye ishati y'umweru.

Amafi meza cyane bataraharuraho amagaragamba nta n'ubwo bari bayabaga, arambitse ahantu. Ni meza cyane.

Amafi ari mu rushundura, ateretse hejuru y’indobo, bari kuyungururamo amazi kugira ngo amazi avemo. Ni amafi menshi cyane kandi meza.

Amafi menshi ari mu rushudura menshi cyane, hari umuntu wanyujije ukuboko mu rushundura usa n'uyafashe mu kiganza, asa nuzamuye ikiganza hejuru andi amafi asigara hasi.

Amafi abiri aringaniye arambitse neza. Amafi aryoha cyane afite intungamubiri. Ni ikiribwa umuturage wese w'u Rwanda akunze kubona, ku rwego urwo ari rwo rwose yaba ariho.

Amafi manini cyane n'andi mato. Amafi meza arambitse ahantu. Amafi aryoheye ijisho, barya bamaze kuyabaga, ubundi bakayateka ,bagashiramo indirimbo barya bakeza.

Ifi iri hejuru y' akantu ka kuma, bayitaze ku muririro hasi. Umuriro uri kugurumana hejuru y' iyo fi hari icunga, bakase hari, n' akantu k' icyatsi kagaragara nka seleri.

Umurima munini w'amabuye uzwiho ko ari umurima w'urukoro. Amaboye agaragaramo nk'aho ari ay'urukoro, hamezemo igishyimbo kimwe kimaze kugira amababa abiri.

Kayirandara ni imirwanyasuri batera ku mirima kugira ngo ubutaka budatemba, ni kayirandara ishishagiye cyane kandi iracyari ntoya ntabwo iragera igihe cyo gutemwa.

Igiti kiri mu murima hagati kirombeje cyane cy'icyatsi kibisi, haruguru hari ibindi biti byinshi, haruguru kandi hari n'amazu areguka amazu.

Umurima uteyemo insina, ukishye insina zikikijwe n'imboga za dodo zifite uruyange, hirya hari undi murima urimo urutoki, hino gato hari inzu y'amatafari ahiye.

Urugo ruzitije ibiti bagiye bashyiramo ibikenyeri, hari n'isombe mu mpande, hari n'insina, hari n'inzu iri kureguka.

Akayira kagiye mu rugo n'akandi gakomeje. Urwo rugo rwegetseho ibikenyeri bigiye bihambirwamo imitware imitwaro. Urwo rugo rwubakishije amatafari, rukikijwe n'insina n'ibiti.

Umurima munini wiganjemo ibyatsi by'isanduruma, haraguru hateyemo n'amajeri ,haraguru gake hari ibiti birebire.

Umurima munini urimo ibyatsi uteyemo nk'intusi, intusi bita intusi za rweru, inturusu ziba nini cyane kandi zikura vuba.

Harimo iteke ,imyumbati ,ibidodoki biri kuranda ku ngarani, isombe hirya hari igipangu cy'amatafari ahiye.

Umurima w'ibikenyeri wasaruwemo ibigori, ibikenyeri birumye bigiye birambitsemo. Ruguru y'uwo murima hagiye hateyemo uduti inyuma cyane hari ishyamba ry'ibiti.

Umurima uteyemo ibiti bitari birebire cyane, ibiti by'imigano, impande hari akayira gato, hirya kandi hari imitabo.

Umurima munini uteyemo imyaka, hagati hanyuze agahanda kageze kure, kageze ahantu hari amazu, hari n'abantu bari muri ako gahanda bageze kure.

Umurima munini mugari cyane ndi kubona urambitsemo utuntu twinshi tw'udukenyeri, haraguru hari ibiti birebire hari n'amazu ari hirya.

Umurima munini w'ibirayi byiza biteye umurima munini. Haraguru hari urugo hari igipangu hari n'andi mazu yari hirya hari n'ibiti.

Inzu iriho amabati ashaje, imbere yiyo nzu hari umwana uhagaze. Hirya kandi inyuma y'inzu hari ibiti birebire by'avoka.

Umurima munini urimo ibirayi, bigaragara ko harimo n'ibigori bikaba byarasaruwe kuko harambitsemo n'ibikenyeri, harimo n'iteke rimwe rimwe, ruguru hari uduti hari n'udutsina.

Ahantu h'ikibaya harimo ubwatsi butohagiye, impande hari umuhanda, harimo n'abantu bari kureguka, n'amazu ari hirya ni amashuri, hari amashuri ari hirya.

Umurima munini urimo ibyatsi binyuranye, uteyemo insina, imwe imwe, ruguru hari ibiti by'inturusu birebire, hari n' inturusu bita rweru ziri iruhande.

Umurima munini cyane uruhande rumwe rurahinze ruhinzemo imitabo, hepfo hari inkwi ziri mu murima udahinnze, haruguru hari undi muririma, haruguru cyane hari amazu n'ibiti birebire.

Ibiti, voka, imyembe, imisave, ibikenyeri byegetse hirya hari inzu. Ni agashyamba kayumbije kagiye guhisha inzu.

Umurima basaruyemo ibigori, umurima uhinzwemo imitabo hepfo yaho hari imiravumba. Haruguru y'uwo murima basaruye hariho undi murima uhinze imitabo. Haruguru kandi, hari ibiti.

Umurima munini cyane utagifite ikintu kirimo, harambitsemo ibyatsi bisa n'ibyumye, ruguru hari inturusu ndende cyane, inyuma hari amashuri menshi.

Umurima munini uhinzwemo ibirayi bamaze guhingira nta byatsi birimo, haruguru hari amazu hino hari andi mazu. Hari ibiti bigiye binyura muri ayo mazu biteyemo hari n'insina.

Ikirima kinini cyane, inka yagiye itamo amase inagangamo igenda iganga. Harimo ibyatsi byinshi, ni ikirima kinini cyane muri rusange.

Umurima munini w'ibirayi. Haruguru hari agakenyeri k'ibigori byumye. Haruguru kandi hari insina n'ibiti birebire biyendesha.

Umurima urimo ubwatsi , hirya gato hari inturusu ndende n'izindi ngufi , ziganjemo inturusu bita rweru.

Umurima munini wahinzwemo ibigori, barabisaruye, harimo n'ibishingirizo bigiye bishinzemo, ibindi biraryamye birarambitse. Hakurya y'uwo murima, hariho igiti ry'inturusu.

Imboga ziri mu murima, munini cyane zifite ibyerezwa. Imboga ni nziza cyane zirimo vitaminini, buri funguro munyarwanda uwo ariwe wese akwiye kuba zihari. Nyuma y' izo mboga hari inzu y' amatafari ahiye.

Igiti kinini cyane kigandaye, kiri ahantu hasa nk'aho ari ku rugo, hirya gato, hirya hari inzu, hari akazu kari kureguka, kandi urwo rugo ruzitije ibikenyeri, bigiye bizengurutse iyo voka.

Umurima munini cyane, ugiye uteyemo ibinyomoro, urimo n'ibindi byatsi byinshi cyane ,haruguru gato hari ibiti birebire biri haruguru.

Umurima munini uhinzwemo ibigori, ibigori byiza bitoshye. Haraguru hari umuhanda wa kaburimbo, ruguru hirya ya kaburimbo, hari ibindi biti.

Umurima munini wanitsemo ibikenyeri Jaranditse ibikenenyeri byumye, aho mu murima harunze n' ikirumbu cyitaka, hari insina, hari n'uruzitiro ruriho ibikenyeri.

Ibidodoki byaranze kuruzitiro kuzamuka hejuru, ibidodoki biribwa imboga nziza cyane cyangwa umuntu akabisaturamo kabiri akabigereka. Ni byiza biratoshye haruguru hari insina.

Umurima munini w'ibyatsi by'amatungo bita kameroni munini cyane ariko ibyo byatsi ntabwo byari byakura. Bigaragara ko bamaze iminsi babikeze ruguru hariho insina zifite n'ibitoki bigiye biteweho inkingi n'amazu.

Umurima uringaniye urimo ibihingwa, haraguru hari agasozi gateyemo ,harimo umwumbati n'ibiti ku ruhande, n'inzu iri guhinguka hirya kure.

Umurima uringaniye ku muhanda hariho kameruni ishishagiye, hagati hariho ibitoki bisa nk'ibyumishije ibirere, hariho n'amakoma y'umuhondo, ntabwo bigaragaza ibitoki ni ibivovo gusa.

Umurima urimo intama, hirya hari insina. Haraguru hari amazu, hepfo hari n'andi mazu menshi cyane ari hepfo.

Umuhanda w'ibitaka usa nkaho urimo amabuye, haruguru hari indabo, hari n'insina nkeya ziri ruguru, hari n'inzu itari kugaragara neza.

Umurima munini abahinzi bajya bahinga inyuma bagatereraho ibintu by'ibyatsi. Haraguru hari ibiti hari n'amazu ari hirya y'ibyo biti.

Umurima munini cyane, uteyemo amajeri menshi meza. Haruguru hari ibiti biyumbije, bigandaye, byinshi cyane . Ayo majeri afite indabo arayanze.

Umurima munini w'amakoro, urimo utwatsi kamwe kamwe, usa nk'aho ugiye unyurwamo imigende bigaragara ko uwo murima ari uw'imitabo, ruguru hari uwundi murima urimo imyaka, kuri iyo mitabo kandi hariho igikenyeri cy'ibigori, bigaragare ko basaruyemo igiti kinini.

Umurima munini cyane ugiye uciyemo utuyira uteyemo imyaka, haraguru hari amazu, hari n'insina, hari n'ibiti birebire.

Umurima munini cyane uteyemo ibirayi. Bamaze guhinga, babihaye itaka. Haruguru hari insina, hari n' amazu.

Ahantu hazitije imihate n'indabo, hagiye hacometsemo ibikenyeri, imbere hari igiti cy'umwembe.

Umurima munini cyane uteyemo ibirayi, haruguru mo hagatiti hari ibiduti tureture, haruguru ya none na none yaho hari ishyamba rinini cyane, hirya hari kugaragara umusozi muremure.

Umugore uri gusekam afite terefone mu ntoki, inyuma ye hari uduti tureture, hirya hari amazu menshi ari hirya.

Ibiti birebire biyumbije bifite amababi menshi, inyuma y'ibyo biti hari utundi duti tureture, hari n'amazu ari hirya.

Igitoki kirambitse ahantu mu murima, kinini gifite amabere manini, gisa n'ibara ry'icyatsi kibisi, igitoki barya.

Imyumbati myinshi cyane yera mu Majyaruguru iryohaha cyane. Bakunda gutsimba ku bishyimbo batetse ibiryo bya kinyarwanda bakabigereka.

Karoti nyinshi cyane batondetse ahantu, karoti nziza nini, imboga nziza zifite na vitamini, bakunda guteka bazikase ziraryoha cyane.

Umugore uhagaze mu murima munini w'ibirayi, wambaye ibitenge n'iribaya, inyuma ye hari ibiti, inyuma kure hari ibindi biti birebire.

Ibishyimbo bitohagiye bimeze neza bifite ibara ry'icyatsi kibisi, imiteja myiza basoroma bakayirya ari imiteja cyangwa se bakayisogoramo ari intonore.

Igiti cy'ipera kiriho ipera rimwe, kiriho amababi meza, ipera rikunda kuribwa, rifite intungamubiri, amababi yipera aravura.

Umurima munini cyane urimo ibirayi. Abagore barunamye bari kubikura, inyuma yabo hari ibirayi birunze, bose bari gukura. Haraguru yabo hariho ibiti hirya no hino hari ibiti.

Umugore uhagaze mu murima, ufite isuka ku rutugu, uri guseka, yiteze agatambaro kajya kuba umuhondo, agashati k'umutuku karimo utubara tw'umweru akenyeye igitede, hirya hari undi murima munini.

Umugore n'umugabo bari gusarura amashu ,ayo mashu ari mu murima ushashe neza ,hirya hari uwundi murima usa n'ugiye hejuru gato, abo bantu bishimiye umusaruro wabo ,bateruye ishu bayifasheho bombi.

Abagore benshi bari kuvomerera imyaka ihinze mu murima munini, bazamuye umugozi unyuramo amazi bawuzamuye hejuru bari kuvomerera, hakurya yabo imbere yabo hariho intusi nyinshi za nyiramweru.

Amatunda abiri abumbye afite n'inkondo, irindi tunda rirasatuye, hari n'amababi akikije iryo tunda risatuye.

Abantu benshi bari muri pepiniyeri bari gushyira ibiti mu mifuka, bamwe barahagaze ,abandi barunamye ,bari kugenda babishyira mu mifuka.

Abagore bari guhinga, babiri bazamuye amasuka undi isuka iri hasi, we ari kugaragara nk'uri guseka. Inyuma yabo hari ibiti hirya kure mu misozi.

Abantu benshi bari mu murima munini bari gukora amaterasi, bose barunamye bakurikiranye igikorwa bariho. Hejuru yabo hari umusozi muremure urimo n'ibyatsi.

Uturima bagiye bakata mu mpande eshatu duteyemo amashu, hahagazemo abantu hari uri imbere y'abo ahagaze mu kayira arikubaha amabwiriza.

Umurima munini w'ibigori bimaze kuzana ubusenzi bwo hejuru ,harimo ibihetse, harimo n'ibidahetse, umurima ugeze hirya cyane.

Umugore wunamye uri mu muririma w'amashu, uri kuyabagara, inyuma ye hari akaringoti kazamuye hejuru, gasa nkaho karimo amabuye.

Isoko ririmo imbuto. Ibitebo birimo amaronji ririmo n'imineke n'akabase karimo ibinyomoro, n'imineke mu kindi gitebo no hasi bashashe imifuka iriho izo mbuto.

Amacunga menshi cyane basoromye barekeraho inkondo zayo, amwe aracyafite ibara ry'icyatsi andi ,aratukuye amacunga aryoha cyane barya amaze guhisha.

Indimu n'amaronji, zimwe ziri mu bitebo ariko hari igitebo kitagaragara neza kirimo imyembe. Haruguru hari ibindi bitebo nabyo birimo imbuto.

Isoko ririmo abantu urujya n'uruza, hari amashu, intoryi, bamwe baricaye n'ibimeza byo gucururizaho, bagiye baterekaho ibicuruzwa byabo.

Ibirayi birunze hamwe byinshi cyane bikiriho n'itaka ry'umukara. Biri kureguka mu makoma. Ibirayi hagiye harabamo utuntu tw'icyatsi. Ibirayi bakunda guteka mu bukwe.

Ubunyobwa bwinshi budatonoye, hari n'ubutonoye. Ubunyobwa bumwe bufite ibara ry'umweru, ubundi bufite ibara ry'umutuku. Ubunyebwa bateka ba beteshejemo ifu bakabuteka mu biryo.

Ibirayi byinshi birunze ahantu henshi, ibirundo nka bitatu bimwe birunze mu nzu, ibindi birunze hanze, hari umugabo urimo kubitondeka uhagaze ari kureba hirya.

Ibitunguru byiza cyane bashyize ku mifungu, bifite ibara ry'icyatsi hejuru hasi umweru, bifite n'imizi yabyo. Ibitunguru twita puwaro bakunze gusekurira mu isombe.

Abagore benshi bari guseka, bahahagaze ku murongo, bose bateruye inanasi, bazizamuye hejuru. Babiri bariteze, abandi ntabwo biteze. Bose bakenyeye ibitenge, usibye umwe ni we udakenyeye igitenge.

Isoko rinini ryubakiye ryiza, abantu ni urujya n'uruza, bafite inyanya, harimo intoryi, harimo inasi, imbuto z'amoko menshi. Abantu bamwe babihagaze imbere bari kubicuruza, abandi bari kugenda bahaha.

Ibigori byeze, byagiye biheka bibiri bibiri, nta bwo byari byera, ubusezi buracyari butoto nta bwo buruma ngo byere. Bifite amababi meza maremare atohagiye.

Abantu benshi bahagaze hagati mu muririma w'imyumbati, hari umugabo muremure uhagaze hagati yabo wambaye ishati, y'umweru n'akagofero k'icyatsi, usa nkaho ari kubaha amabwiriza.

Ibiti birimo icy'isombe bigandaye, imbere ya byo hari ikizu kinini cyiza, hari n'akantu k'agakuta gapavomye na sima.

Ubunyobwa bwinshi burunze hamwe bufite impeke nziza nini, ubunyobwa buryoha babukaranze bukanaryoshya ibiryo iyo babusekuye ifu yabwo bakayiteka.

Inyama zirambitse ahantu ku kimeza gikoreshejwe imbaho, harambitse n'umuhoro haruguru hari ikidomora, hari n'inyanya ziri ku isaniya, n'isahani iriho ubusa y'umweru.

Amahundo y'ibigori menshi cyane kandi meza, agiye amanitse ku biti hasi hari umurongo wambere, hakurikiraho uwa kabiri n'uwa gatatu, hari n'ibindi bikirambitse hasi.

Umugore uhagaze uri gusoroma ikawa, uteze igitambaro cy'umutuku, wambaye n'agapira karimo umuhondo n'umukara, ari kwitegereza izo kawa, yazamuye amaboko ari kuza....

Inkwavu nziza cyane ziri kuririsha ubwatsi, zifite ibara ry'umweru, hirya hari ikiraro gikozwe mu mbaho, izo nkwavu ni nziza cyane, zimwe zirunamutse, izindi ziri kurisha.

Umugore wunamye mu murima w'ibigori uri gushyiraho ifumbire. Umugore wambaye ijipo y'umukara, ukenyeye igitenge, wambaye n'igitambaro mu mutwe, wambaye n'ishapure.

Abagore bari mu murima munini cyane, bari gusarura ibirayi bagenda bapakira mu mufuka. Bamwe babiteruye mu ntoki bagiye kubishyira mu mufuka, abandi barunamye. Haruguru gato hari n'undi mugore uri gukurira haruguru gato.

Umugore uri kugenda hagati mu murima, umurima munini cyane ugiye urimo utuyira, uwo mugore ari kugenda mu kayira, afite amabase abiri, afite n'isuka mu ntoki, ari kugana hirya, hari utuntu tumeze nk'utuzu, hari n'abantu bahahagaze.

Abantu batatu bahagaze mu murima w'ibigori, bafatanye urunana bazamuye amaboko hejuru, hagati hari umugabo wambaye umwenda w'umuhondo, haruguru ,hejuru umwenda w'icyatsi, uwo hepfo yambaye umupira irimo uturongo.

Abantu batatu bari mu murima w’inanasi, bose bafite udupfukamunwa, harimo uwiteze igitambaro, undi mugabo yambaye ingofero. Bose bari muri uwo murima w’inanasi, umwe arasutamye.

Amasaka menshi cyane ari ku kintu bakoramo parafo, ayo masaka arimo n'impeke z'utugori dutatu.

Umurima munini urimo ibyatsi byiza bitoshye harimo voka, voka bita imbangurane, harimo na voka zeze, ako gati karagandaye ni kagufi, hirya hari amazu.

Ibi bijumba bihiye biri ku isahani. Bisa n'umutuku ariko mu nda hakabamo ibara ry'umuhondo. Ibijumba byagiye byiyatura biryoha cyane bita Mapfuruka.

Amasaka menshi cyane ari ku gakoko, bagosoye neza. Amasaka avamo umusururu iyo bamaze kuyinika avamo umusururu bakanayakuramo urubetezi bari kwenga inzoga y'urwagwa.

Umugore usutamye uri gukora pepiniyeri, ari kugenda ashyira ibitaka muri turiya dupaki bateramo ibiti iyo bari gukora pepiniyeri. Umugore yiteze igitambaro cy'isharupe n'umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara.

Umugabo ufite ibyatsi mu ntoki uri kumwe n'akana, umugabo wambaye ingofero, afite n'akantu ku karevuro. Yambaye n'umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara.

Umugabo usutamye uri kugenzura ibihingwa, ibiti biri muri pepiniyeri harimo amavoka, imyembe. Arasutamye ari kubyitegereza. Yambaye umupira w'amaboko maremare urimo ubururu n' umutuku n'umweru, arasutamye ari kubigenzura.

Imifuka myinshi cyane ipakiyemo ibijumba, hirya hari abantu, hirya kandi hari imirima.

Imiteja irambitse idasogoye, imiteja batekamo agasosi bayitetse mu mavuta bakayirisha umuceri.

Umugabo uri mu murima w’ibigori, uri guseka, afite isuka ku rutugu, afite na terefone ku gutwi. Umugabo wambaye agapira k’umukara, umugabo ufite ibitwenge.

Ibishyimbo byiza cyane biri ahantu hashashe, biri ku kintu cy'igihema, hashashe, by'urunyumba, birimo iby'umutuku n'iby'amabara y'umuhondo.

Umuntu wicaye uri gucuruza ibintu binyuranye imbuto zinyuranye amatunda, n'imyembe, puwavuro, imboga zinyuranye wambaye agapira k'umutuku.

Ibigori byinshi cyane bigeze mu kigero cyo guheka ni imiheko, hirya hari agasozi kari kureguka gateyemo ibiti, ibi bigori ni byiza cyane.

Imbata nyinshi ziri hamwe. Imbata zikunda kuba ahantu hari amazi, kuko ubuzima bwazo bujyanye n'amazi, hiryaha hari umurima urimo ibyatsi birebire.

Insenda nyinshi cyane zitukuye ,ziriho n'inkondo zazo, zirambitse ahantu. Zikunda kuribwa mu biryo, cyangwa se bakaziteka mu kabenzi.

Ibigori biri mu murima munini cyane. Hirya hariho ibindi bigori . Hirya cyane hari uduti turi kureguka. Ni umurima mwiza cyane kandi munini wizihiye ijisho.

Abantu benshi bari mu murima w'icyayi. Hagati mu murima harimo akayira kanini, kandi uwo murima ugiye unyuranyuyemo utuyira. Mbega tumeze nk'udutabotabo.

Abantu benshi cyane bari mu murima bari gukora utuntu tw'uturundo tw'itaka, hari n'umugabo uhagaze hagati yabo bisa nk'aho ari kubaha amabwiriza, abandi bamuteza amatwi.

Umuririma munini urimo inyanya zitangiye kuba ibitushi, hariho iziri gutangira gutukuzaho gake, ni inyanya nziza cyane bakunze gutega ibiti, kugira ngo zidakora ku butaka.

Ibigori biri mu murima munini by'icyatsi kibisi. Ibigori bitaraheka, hirya inyuma hari inzu isakaje amabati y'ubururu. Ibigori byiza cyane.

Umufuka munini urimo imyumbati, umufuka usa n'ushaje haraguru hari udukombe tumwe dufite ibara ry'icyatsi utundi dufite ibara rijya gutukura.

Inzu nini isa nk'aho igeretse, begetseho iyi mitwaro y'ibisheke ,umugore umwe arunamye asa nk'aho ari kubara ibisheke ,abandi babiri barahagaze ,umwe ahetse umwana ari kwitegereza ibyo bisheke.

Imbuto nyinshi ziri mw'isoko, abantu b'urujya n'uruza benshi cyane bari kugenda, bari kureba izo mbuto, inyuma hari amazu menshi.

Umugore wunamye uri mu gishanga ahantu hari amazi ari guhingira umuceri, arunamiye ibyondo biri kugenda bimutarukira yuzuye ibyondo.

Umurima munini uteyemo ibishyimbo. Ibishyimbo byiza by'icyatsi kibisi ,umuntu urambuye ikiganza neza hariho imiteja myiza miremire.

Igiti cy'umwumbati cyashoye imyumbati myinshi cyane minini igerekeranye, hari n'igiti kiri hirya kitari kugaragara nacyo gifite imyumbati.

Umugabo uri kurenga inyanya mu mifuka ari kuyoza ibitebo akazishyira mu mifuka. Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo, yambaye n'ipantaro y'umukara.

Igitama kinini, gifite ibyoya byinshi cya kizungu, gihagaze mu murima munini urimo ubwatsi bwiza butoshye. Kiri kureba imbere, ntabwo kiri kurisha, ntabwo cyunamye.

Umurima w' ibihaza urimo igihaza cyiza cy'umuhondo n'ibisusa by'icyatsi, giteretse hagati mu byatsi.

Ibirayi byinshi cyane birunze ahantu, hirya hariyo ibindi birayi birunze mu kizu cy'igihangari, inyuma hari n'ayandi mazu ahari.

Ibigori birambitse ku gatebo bimwe biratonoye ibindi ntabwo bitonoye, ibyo bitonoye, babitonoye iruhande rumwe basigaho ibishishwa byo hasi, ni ibigori birimo amabara y'umuhondo n'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ari munsi y'igiti cya avoka, asa n'aho ari ku gikata, igiti gishishagiye, asa n'uwunamye.

Inkoko nini cyane yashanjije amababa, ibundikiye imishwi bayo, udushwi hagaragara tune, ibundikiye udushwi, ibubundikiye ku byatsi biri aho iraye.

Umugore usutamye mu bireti yambaye ingofero y'umutuku, akenyeye umupira arunamye. Akaboko kamwe gashinze hasi, akandi kari mu kirere.

Umukobwa uhagaze yegamiye igishyinga cy'amabuye n'umwana uri hirya, haraguru hari umurima w'ibigori, haguru kandi hari n'ibiti birebire.

Ibitoki byinshi birambitse byiza, bifite amabere manini, inyuma y'ibyo bitoki hari abantu bicaye ,ibitoki bateka bakabyengamo n'inzoga.

Ipera rizamuye ,ritohagiye rimeze neza ,ariko ritarayanga rikera imbuto zikunzwe cyane ,abanyarwanda dukunda kurya ziryoha kandi amababi y'ipera avura indwara.

Ibigori birambitse kumbabura ku kantu k'ibati, hasi hari amatafari ahiye birokeje ku mpande hariho ibindi bitokeje birambitse iruhande.

Umurima munini cyane w'ibigori. Ibigori bimaze kuzaho ubusenzi ariko bitaraheka neza, hakurya hari indi mirima myinshi.

Ibiti by'amacunga byinshi cyane, hariho n'amacunga ahishije mu ishyamba ry'inzitane, mu biti birebire, aya macunga araryoha cyane.

Puwavuro nziza cyane zidasoromye, dukunze guteka mu nyama, mu birarayi, mu gitoki, ahantu hose hashoboka, kuko ziryoshya ibiribwa.

Umugabo uhagaze mu murima w'ibigori uri guseka ufite isuka ku rutugu, ufite na terefone ku gutwi ari mu murima w'ibigori byiza usa naho yizihiwe.

Ibiti by'imyembe, hariho imyembe amababi meza, atohagiye asa n'icyatsi, hari n'amababi amwe n'amwe agiye gutukuza. Ni ibiti byiza hariho imbuto nyinshi ziboneye zibereye ijisho.

Ibidodoki biri ku mifungo, birambitse ku mifuka, haruguru hari na kokombure nazo ziri ku mifungo. Hari umugore wicaye arambirije uri kuzicuruza.

Igiti cy'avoka kirimo amavoka meza manini y'icyatsi kibisi, amababi yacyo aratoshye n'avoka zigaragara nkaho zitari zakura ziracyari ntoya ntabwo zizakomeza gusarurwa.

Mu isoko harimo ibiribwa binyuranye, harimo imbuto z'amoko menshi ibinyomoro, imyembe, imineke, amacunga harimo n'imifuka irimo ibirayi n'abagore babiri bari imbere yabyo.

Ibijumba byinshi cyane birunze, birimo ibifite ibara ry'umutuku twita tura tugure n'ibindi bya nyirawadada, bikunze kuboneka mu Karere ka Gakenke n'Akarere ka Musanze.

Amahundo y'ibigori asharitse ku biti, agiye azengurutse ibiti, amenshi ni ay'umuhondo, n'andi y'amabara, ay'umuhodo ni yo menshi, azwi ku izina ry'ibigori bitaga kera nyakagori.

Ahantu barimo bari gucururiza inyanya, puwafuro, za kokombure n'imboga zitandukanye z'ubwoko bwinshi.

Isoko rinini ryubakiye, hari imiteja irunze ikirundo kinini, karoti, intoryi, puwavulo , inyanya. Ni isoko ririmo abantu benshi b'urujya n'uruza ryubakiye.

Umurima munini cyane w'ibiti by'amavoka, hagaragara ibigera muri bitatu ,ni umugabo wambaye n'agapfukamunwa, wambaye n'ipantaro y'umukara, n'ishati irimo amabara.

Imyaka umugore ari kuyanika yiteze agatambaro yakazengurukije mu mutwe .Yayoresheje imyaka ibiganza bibiri asa n'ugiye kutamira , asa n'ubyegereje umunwa.

Abagabo babiri bari mu murima munini cyane, bambaye imipira y'icyatsi, bambaye n'ingofero ariko bazikuyemo ziri inyuma mu ijosi, bose bari guseka.

Umugore wicaye, imbere ye hari ibintu bicuruzwa, hari ibiri mu ndobo, harimo ibyo babinda abana, hari n'ibiri ku gakoko harimo indagara n'ubunyobwa, biteretse hejuru y'ikarito.

Umugore uri guhingira imyaka, bisa nk'aho yishimiye imyaka ye, ari kureba hasi ari guseka. Yambaye imyenda y'icyatsi, ruguru ye hari iyindi mirima myinshi igaragara nk'aho ari imitabo.

Ibirayi byinshi biri mu mifuka myinshi iteretse. Imifuka y'umweru impande hari abagabo babiri. Umwe yicaye imbere undi yicaye inyuma. Inyuma hirya hari akazu k'ibati, hari n'amashyamba y'ibiti.

Inyanya nyinshi cyane ziri ku mifuka hari n'imifungo y'intoryi, n'imifungo y'inyanya, zimwe ntabwo zitanditse izindi ziri ku mifungo, haruguru hari umuntu wambaye ipantaro, iri kuboneka ukuguru kumwe n'urukweto rw'umweru.

Umugore wicaye ari kotsa ibigori. Ibigori byinshi yasize kumbabura ari kubyotsa, haraguru hari undi wunamye asa nk'aho ari gukora ku mufuka, n'indobo iri hirya n'indi jipo ya rumbiya iri iruhande.

Umugabo uhagaze mu murima w’inyanya. Inyanya zishingirirwa ziri kugaragaramo n’imishingiriro. Umugabo wishimye, wambaye ga mu ntoki, uri guseka.

Umuntu usutamye ahantu hari itaka yakoze pepiniyeri, ari kugenda ashyira itaka mu dushashi twabugenewe bateramo ibiti, bagiye gukora pepiniyeri.

Imineke ihishije indi ntabwo yari yashya, imineke myiza cyane ibereye ijisho, bita poyo myiza cyane.

Umurima w'ibinyomoro byiza, bimaze kuzaho ibitusha, ku biti byiza bifite ibinyomoro byinshi. Ni umurima usa n'uwafatanye, kuko nta byatsi birimo.

Imirima mini ni ikibaya kinini . Harimo inzu y'amategura ikikijwe n'uduti , n'urutoki . Hakurya , hari imisozi miremire .

Ibijumba biri mu gitebo bita mafuruka, kimwe kirakase, ibindi ntabwo bikase. Ibijumba biryoha cyane, birimo intungamubiri kandi bakoramo imigati na za biswi.

Isombe zirambitse ku mifuka. Hamwe ni umufuka w'ubururu, undi ni umufuka w'umweru. Isombe zimwe bazisogoye, izindi ntizirasogorwa. Haruguru hari igisanduku kinini kigizwe n'imbaho.

Umurima w'ibigori uringaniye ibigori byiza bigeze igihe cy'umuheko, bisa n'icyatsi kibisi bifite urutiritiri runini byiza cyane.

Abantu benshi bari mu kidendezi cy'amazi bari guhinga mu gishanga wagirango ngo bari guhinga mu gishanga kugira ngo batere umuceri, kuko imbere yabo hirya hari umuceri wamaze kumera bagiye bacamo amapariseri amapariseri.

Abantu benshi bazamuye imigozi iriho ibijumba, umugore, umugabo hariho abagabo hariho n'abagore, inyuma yabo hari umurima w'ibigori byumye, hirya hari urutoki, hariyo rwinshi.

Insina bahingiye neza, igitsina kimwe bagihingiye neza hariho igitoki kirimo n'inkingi. Haruguru gake hari uduti, hirya gake hari akazu katagaragara neza gasakaye.

Intoryi, puwavuro, indimu, n'imiteja. Indimu zikoreshwa mu kuvura indwara zinyuranye. Intoryi, imiteja na puwavuro biribwa bitetse. Naho indimi zikoreshwa ari mbisi.

Amagi menshi cyane abitswe mu kantu kabugenewe babikamo amagi. Amagi ya kizungu atari ay’amanyarwanda, amagi y’inkoko za sasu. Amagi aryoha cyane iyo uyatetsemo umureti cyangwa uyatetse yibumbye.

Umurima w' amajeri afite imisogwe, meza cyane aboneye ijisho. Amajeri bateka ari urunyogwe cyangwa bakayarya yumye.

Abantu barikubagara imyaka abenshi barunamye barahagaze bose bambaye ingofero.

Abantu bari mu murima munini, abantu benshi umwe ari imbere yabo ari guterare uduti, abandi bari inyuma bari kumwitegereza basa nk'aho ari kubaho urugero.

Abantu bashoreranye bikoreye ibintu bari kunyura mu kayira gato cyane, bari kunyura hirya hari imyaka no hakuno hari imyaka. Bose barashoreranye bari kugana inzira imwe.

Inyumbati myinshi bakuye irunze ahantu, imyumbati idatonoye ntabwo itonoye, imyumbati bakunda kurya bageretse, imyumbati ikunze kuboneka henshi mu Rwanda.

Abantu benshi cyane bari mu murima munini cyane urimo amaterasi, mu mpande hari ibiti, mu materasi bagiye bateraho imbigo zirwanya isuri.

Ibitunguru bihinzwe mu murima munini bahinzemo mu mitabo. Hepfo hari umutabo no haruguru hari uwundi. Ibitunguru bateka mu biryo babikaranze.

Avoka ifite amashami imanitsemo agacuma Kari kwererera, iyo bamanikagamo agacuma kera voka yareraga cyane, hariho n'insina ku ruhande.

Imyembe irambitse ku kirago imwe bagiye bayifunga imifungo, indi irarundanyije irunze hamwe, inyuma y'iyo myembe hari imyenda iharunze.

Imyumbati myinshi cyane bari gupimisha umunzani. Ni umugabo uri kuyipima wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro ijya gusa n'umukara. Hirya hari undi muntu wambaye ikote.

Ibiti by'amapera amaze gutukura bifite amababi y'icyatsi nandi y'umweru amaze gutukura neza. Amapera araryoha cyane afite na vitamini n'amababi y'amapera nayo aravura.

Amacunga menshi y'umuhondo barambitse mu kadobo, amwe ariho amababi ayandi ntafite amababi, hari n'ari hirya mu giti na yo amaze gutukuza, hagaragara ko hariho n'imyembe.

Ibirayi byinshi cyane birunze hasi byiza bya Kinigi. Ibirayi bikunzwe ku isoko ni byo bigira igiciro kinini. Inyuma y'ibyo birarayi hariho inzu y'amatafari ahiye.

Inkoko nyinshi cyane za kizungu zisa n'umweruru. Hagati yazo hariho utudobo twubitse.

Umurima munini cyane wuzuyemo ibireti bitohagiye, hari n'ibindi biri hirya bitari kugaragara ariko byose birashishe biratohagiye.

Umurima munini cyane urimo ibigori bigaragara nk' ibyumye. Hasi mu ibyo bigori hari ikinani cy'ibyatsi, hirya haruguru hari ibiti.

Umuntu uri mu murima uringaniye, ahetse igisobane arahagaze ahagaze muri uwo murima, inyuma ye hari udusozi twinshi inyuma ye.

Ibigori byinshi cyane kandi byiza, biri mu murima uringaniye bimaze kuba imiheko. Ibigori byiza cyane hirya hari utuntu tw'uduti turi hirya y'ibyo bigori.

Ibirayi byinshi cyane biri mu murima barunze hamwe, bifite ibara ry'umutuku bikunda kuryoha cyane, ni byo bihenda cyane ku isoko.

Isoko ryiza cyane, ririmo urujya n'uruza rw'abantu, uruhande rumwe hariho imbuto, urundi hariho inyanya, harimo akayira abagenzi bari kunyuramo, mu isoko ryiza cyane, risakariye, ryubakiye.

Umugore uri mu murima urukuhira ,kubagara imyaka akenyeye igitenge ,yambaye ubururu ,ishati y'ubururu, n'igitambaro cy'ubururu ,imbere ye hari igiti kinini kigandaye.

Ibisheke byinshi cyane barambitse nk'abantu bari kubicuruza, hari umugabo utari kugaragara neza, ariko aricaye, asa nkaho ari kubicuruza. Hirya hari utuntu tw'imifuka tuhateretse.

Ibigori byiza byenda kwera birebire. Hirya hari inzu iri kureguka, ibigori bimwe byenda kumya ubusenzi, ibindi ntibirumya ubusenzi. Ibigori biryoha botsa, bakanateka.

Umugore uri mu murima w'amatunda usa naho ari kuyerekana, yiteze n'agatambaro. Ni umurima munini uzitiye ugeze hirya.

Intoryi nyinshi zirunze ahantu zifite n'inkondo zazo, intori zifite ibara ry'umweru nziza zitohagiye, zibereye ijisho.

Amapera menshi cyane afite ibara ry'icyatsi, hari n'afite amababi, amwe bayasatuye, ari kugaragara nkaho afite ibara ry'umweru mo imbere.

Abagore babiri batereye amasuka ku rutugu bashoreranye. Umwe ari kureba inyuma, undi ari kureba imbere bafite n'udufuka mu ntoki basa nk'aho bari kumanuka.

Voka isatuye nziza cyane, irimo ibara ry'umuhondo ryiza, voka ziri mu kiganza cy'umuntu, zose zagiye ku kiganza cye. Voka barya bazisize ku biryo by'imvange.

Abagore n'umugabo bunamye bari gusoroma icyayi, bahetse n'ibitete, ni umurima munini cyane, hirya hariri hirya cyane hari kureguka ibiti.

Umugabo ufite imyumbati mu ntoki ,imyumbati minini myiza ayifashe mu biganza. Yambaye agapira k'icyatsi, inyuma ye hari abandi bantu, hari n'umurima munini inyuma ye.

Umugore uhagaze mu murima w'ibigori, afashe ibigori mu biganza bye byombi, ni umurima hagati unyuzemo akayira k'abagenzi, hamwe bagiye baraca ibigori, ahandi birahari barahagaze arikubyerekana.

Intoryi nyinshi, nyinshi cyane, zimwe ziratukuye, izindi zisa n'umweruru ziriho n'inkondo zazo, ntabwo bazisogoye, intoryi ziryoha cyane, bazirishije umuceri, cyangwa bazigeretse ku bishyimbo.

Ibishyimbo byinshi bivangavanze birimo nyiragikote, birimo nyirakinyamaza byiza cyane bibonereye ijisho, buri munyarwanda wese akunze kubona ku ifunguro rye rya buri munsi.

Umugabo uhagaze mu murima uteyemo ikawa, arikuwitegereza ikawa zashoye cyane, umugabo yambaye agapfukamunwa ariko ntabwo akambaye neza, inyuma yizo kawa hari insina.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe bari kureba ahantu hamwe, inyuma yabo hari amazu hari n'ibiti birebire n'ibigufi, hari n'intusi za rweru, munsi yabo hepfo gato ni mu muhanda.

Umugore wicaye ku ihema rirunzeho ibishyimbo, ihema ry'ubururu. Umugore ari kureba ku ruhande, yambaye umupira w'umukara yiteze n'igitambaro, asa n'uri kubirobanura.

Umurima munini cyane mu ntangiriro nta bwo hahinze, hateyemo n'igiti kirekire. Kimwe itabi rimwe riciye kabiri. mo hagati nta bwo hahinze, haruguru yaho na none mo hagati harahinze. Haruguru yaho na none hari ishyamba riri kureguka ruguru.

Umurima munini cyane urimo intama, imwe iraryamye, indi irahagaze, intama z'umweru, uwo murima urimo ibintu by'ibibuye, nta bwo uringaniye, urimo ibintu by'ibikingo.

Ibirundo by' amasaka arambitse, n' amababi y' ishaka na akantu kagasigati, ni rindi hundo ritaramera neza rikiri intete.

Ibigori by'amahundo bimanitse mu kizu kinini cy'igihangari cyabugenewe, bigihe bimanikwa ku murongo, umurongo, hasi hariho ibibabi batonoreyeho byandagaye hasi.

Umugore uri kurobanura ibishyimbo, ari kubisuka ku gatangadaro kabugenewe, karobanura imyaka gakuramo amabuye. Ari kubikura mu isafuriya iteretse ku...

Umurima munini uteyemo amasaka afite amahundo meza cyane, amwe ajya gutukura ayandi ntabwo aratukura aracyafite ibara ry'icyatsi kibisi ni amasaka magufi.

Ibishyimbo byinshi by'indobanure bigaragara ko ari iby'ubwoko bumwe, nta yindi mbuto ivanzemo ni ubwoko bumwe. Ibishyimbo byiza bifite ibara ry'umukara, ibishyimbo bakunda guteka batsimbye.

Soya nyinshi cyane, zirundanyije, nta bwo zirimo ibishishwa bya zo, zirahuye, zirarundanyije, zigosoye neza, nta myanda irimo, baryamo agafu, bakagashyira mu gikoma, bakagateka no mu biryo,

Ibihwagari biri mu kebo . Ibihwagari, n'igihingwa kitagikunda guhingwa cyane. Cyagiraga igiti gisa n'igikomeye , kikagira ururabo rusa n'umuhondo hakavamo ihundo ryavagamo ibihwagari.

Amajeri y'urunyogwe asataguje, afite ibara ry'icyatsi kibisi, amajeri aryoha cyane mu gitoki, cyangwa se yaba yumye bakayakaranga; bakayabeteshamo ifu, bakajya bayishyira mu biryo.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugore uri kugosora imyaka, wambaye neza n'imisatsi yapfundikiye hejuru itendeye inyuma yabo, hari akantu kariho utuntu tw'usahani duteyemo utuntu tw'uturabo.

Ubunyobwa buranduwe, burambitse, buriho n'imizi, ni ubunyobwa bwinshi buri kunagana, ni ubunyobwa bateka babeteshejemo ifu cyangwa bakabukara.

Umugore umaze gusarura ateruye umwana, ari mu murima munini w'ibigori ateruye umwana yiteze igitambaro akenyeye n'igitenge.

Amajeri ari mu kantu k'agatebo asataguye. Amajeri araryoha cyane, akaryoha cyane mu gitoki, cyangwa kuyakaranga umuntu akayahekenya.

Amahundo y'ingano ahagaritse. Umurima munini w'ingano hirya hari agasozi kari kureguka, ingano batekamo imigati, bakanazitekamo impungure.

Umurima munini uteyemo ingano, munini cyane, usa nk'aho harimo utuyira, ingano batekamo imigati.

Umuntu uhagaze mu kizu kinini kirangaye inyuma, uri muri depo y' imyaka hadeteyemo, imifuka igeze hejuru, indi itageze hejuru y' igice igeze hasi.

Ibyibo bibiri birimo ibishyimbo. Ikibo kimwe harimo ibishyimbo bya mwirasi, ikindi ni nyiramagorori. Hirya hasa nkaho hari abantu n'ibindi bintu.

Umugore uri kugosora imyaka, ukenyeye igitenge n'ishati y'umutuku. Inyuma ye hari inzu y'amatafari ahiye. Hari n'ururabo rufite ururabo rw'umutuku, hirya hari andi mazu hari n'insina.

Ubunyobwa buri mu murima munini, buri kuyanga, butoshye cyane. Ubunyobwa buribwa bukaranze, cyangwa babusekuye bakabushyira mu biryo.

Abantu babiri bahagaze ku ihema ririho ibishyimbo, barikugosora umwe yabizamuye hejuru ibishyimbo bibiri mu kirere. Undi nawe biri ku ntara ari kugosora.

Umugore uri kugosora ibishyimbo, uteze igitambaro n'akantu kagufi cyane, amatako yose ari kurebeka, umukundo uri kurebeka, ari guseka.

Ibishyimbo byiza biteye ku murongo, by'amababi meza. Ibishyimbo bigufi bitari umushingiriro biteye mu murima uringaniye.

Abantu benshi bari mu gishanga bari kubagara umuceri, bose barunamye usibye umwe wunamutse, ni abagore biteze ibitambaro, bose barunamye umwe ni we uhagaze.

Inzuzi ziri mu gatebo ,iruhande hari igihaza cyiza cyane kiri kumwe gifite inkondo batakuyeho inkondo, mu mpande y'icyo gihaza gikikijwe n'inzuzi.

Igihangari kinini cyane kiriho, cyubakishijwe imbaho. Hasi hapannye amatafari ahiye. Hejuru ntabwo kigaragaza isakaro. Ku ruhande hariho umureko.

Umurima munini urimo amasaka agaragaza amahundo . Andi masaka, ntiyari yera, nibwo atangiye kuzana uduhundo duto duto. Ariko, ayo yandi yo, amaze gutukuza amahundo, n'ubwo atarera neza. Ariko, yenda kwera. Hakurya, hari imisozi .

Imyaka inyuranye iri mu mifuka, imifuka y'umweru n'umuhondo n'icyatsi bateretse ku ihema ry'ubururu. Iyo mifuka irimo imyaka inyurany: ingano, uburo, soya, amajeri n'ibindi.

Ibigori by'amahundo meza bipanze mu mifuka yuzuye cyane ,bagiye basohoka bashyiramo basoka . Hirya gake hari indi imifuka itari kugaragara ,iri hirya.

Ibishyimbo byinshi birambitse ku mwuko bita umudaho. Ni ibishyimbo bisa n'ibiri mu kintu cy'ikigunira, ibindi birambitse hasi ibishyimbo by'umutuku birobanuye by'ibara rimwe.

Ibihwagari kera byeraga ku igiti cyazamukaga hejuru kikagira ururabo rw'umuhondo. Ibyo bihwagari barabitonora, bikanyura mu ruganda. Ni byo bivamo amavuta bita igihwagari

Umurima munini w'ibigori ni mwiza cyane, ibigori bitoshye bifite ibara ry'icyatsi, ibigori bimwe byarahetse ibindi ntibyari byaheka, hirya cyane harimo utuzu, nyuma y'utwo tuzu hari ikiyaga amazi atemba.

Ibishyimbo birambitse, ibishyimbo ni byiza ni umutuku ibindi byagiye bipfa. Ibishyimbo byiza bakunda guteka bakabyita gutsimba, biryoha kandi buri munyarwanda wese iryo funguro ry'ibishyimbo aba arikwiye.

Umushandiko w'ingano bamanitse, ingano zikiri ku mishishi. Ingano zivamo imigati, zikavamo n'ifarini.

Imifuka myinshi cyane ipakiyemo ibishariro bimwe biboneka aho babariza, imifuka imwe irafunze indi ntabwo ifunze indi yaracitse.

Ibigori biri mu murima munini mwiza, bishishagiye haraguru hari uruzitiro, wagira ngo ruzitiye urugo rw'imishipuri bakase neza, hirya inyuma hari n'ayandi mazu ahari.

Umurima w'ibigori munini cyane, urimo ibikenyeri byumye amababi y'ibigori yarangije kuma arimo y'icyatsi ni makeya yarumye, hakurya nyuma y'ibyo bigori, hari umusozi muremure ,ugiye uteyemo uduti n'insina.

Ibishyimbo biri ku gakoko byiza cyane, bita kinyamanza, ibishyimbo by'umushingiriro byera cyane, by'umushingiriro bikazamuka cyane.

Ibishyimbo by'amako menshi biteretse ahantu, akarundo akarundo, ibishyimbo by'ibara ry'umutuku, ry'umukara, ibishyimbo by'amabara, hari na ka soya hari n'utujeri.

Umurima munini w'ibihwagari bifite indabo z'umuhondo. Ibihwagari indabo zimwe bagiye bazipfuka, kugira ngo inyoni zitazirya kuko inyoni zikunda ibihwagari. Inyuma y'ibyo bihwagari hari ibiti.

Ibishariro biri mu mifuka minini miremire myinshi cyane igihe iteretse ku mirongo. Ibishariro biva mu mbaho z'ibiti bari kubaza bari gusatura igiti bikagenda bigwa hasi.

Agasahane gateretse ku mukeka kariho inzuzi, inzuzi nyinshi n'izindi nkeya zirambitse kuri uwo mukeka, inzuzi nziza cyane zikungahaye ku ntungamubiri.

Umurima urimo igishyimbo cyatondagiye ku gishingirizo, hariho imiteja myinshi, hari umuntu uyifashe mu kiganza uri kuyerekana. Inyuma y'ibyo bishyimbo hari ibiti.

Umugabo uri kubagara ibyatsi, uhagaze ufite ingofero wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro, y'umukara yatebeje uruhande rw'imbere.

Umugore uri mu muririma, uranduye ikirayi kiteze, kiriho uburayi buto cyane, ufashe na terefone mu ntoki, ari mu murima munini, hirya hari igiti kiyombaje, hirya gato, hirya cyane nanone hari ikindi giti,...

Umugabo uri muri depo y’ibintu bipakiye mu mifuka, asa nk’aho ariko byerekana abikozeho. Yambaye ya ngofero abafundi bakunze kwambara, bari kubaka.

Umugore wicaye ku gatebe ari kugosora imyaka, impande ye hari agasahani, hirya hari inzu y'ibyatsi ya muviringo kera babagamo ya kinyarwanda ariko itubatse mu mpande. Haraguru hari ibiti.

Ibigori byinshi byiza birundanyije, umugabo umaze kubisarura arunamye, asa n'uwizihiwe n'umusaruro abonye, yambaye ipantaro y'umukara, hejuru yambaye agapira k'umutuku, k'ibara ry'umutuku rigiye kwijima.

Abagabo babiri n'umugore uri hirya, hari igihangari kimanitsemo ibigori bigiye bimanitswe ku mirongo.

Intonore nyinshi cyane zirunze ahantu, ziryoha cyane bakunda guteka bazisigaye ziraryoha cyane iyo uzigeretse.

Umuntu ufashe umuceri udatonoye , yarambuye ibiganza uri ku biganza bye, umuceri mwinshi cyane udatonoye.

Ibishyimbo byiza bitohagiye, ntabwo ari ibishyimbo by'umushingiriro, ahubwo ni ibishyimbo bita ibigufi, birahingiye nta byatsi birimo, ni ibishyimbo byiza bitangiye kuyanga, hirya cyane hari kureguka uduti.

Igishyimbo cyiza cyane kigaragaza ibara ry'icyatsi, kiriho uruyange n'imisogwe ebyiri n'imiteja, ibishyimbo biribwa n'Abanyarwanda hafi ya buri funguro ryose, Umunyarwanda haba hariho ibishyimbo.

Imifuka myinshi cyane ivamo ka irimo kawunga iteretse hejuru y'imbaho zitambitse, inyuma hari indi myinshi ihari.

Amajeri meza amaze kuzana imisogwe n'ibara ry'icyatsi kibisi. Hari abantu ibiganza byabo bifashe kuri iyo misogwe, ni amajeri meza cyane bakunda guteka mu gitoki.

Ubunyobwa burambitse ku birago ,bumwe buratonoye ubundi ntabwo butonoye, hari n'ubutonoye bagiye barambika mu gishishwa cy'ubunyobwa. Buri ku birago bibiri ikindi kirago nta kintu gihari.

Imifuka itatu hari n'indi iri hirya irimo ibishyimbo, ibishyimbo byiza cyane, imifuka isa n'umweru irihinnye, bayihinnye.

Umukecuru uri kugosora imyaka. Bagosorera ku ntara. Umukecuru ugeze mu zabukuru witeze agatambaro k'umukara, yikenyeye n'igitenge . Haguru ye hari amazu, hari iri kugaragara nk'ikiraro.

Imifuka myinshi cyane irambitse ahantu hapakiyemo ibintu, umugabo ahagaze hagati y'iyo mifuka, imbere ye n'inyuma ye hari imifuka, hari n'undi wikoreye umufuka, inyuma hari abandi bagabo babiri kandi hari n'iyindi mifuka igeretse hejuru myinshi. Hari n'amazu.

Ingano zirambitse ahantu zidahuye. Ingano bakunda gukuramo imigati, zikavamo n'ifarini.

Ingano nyinshi zidahuye ziri mu igunira, igunira barisutse zirambitse hasi hari n'izindi ziri ku mahundo barambitse ku mpande.

Imyaka itandukanye iri mu mifuka. Imifuka y'umweru igiye izingazinze. Iimyaka itandukanye ubunyobwa, ibishyimbo, uburo mu mifuka minini.

Umugore n'umugabo, umugabo ari hejuru umugore ari hasi umugore ari kujya amuhereza ibigori, hatambitse ibiti bari kujya babimanikaho.

Umugabo uhagaze mu murima munini, yamaze gufunga umufuka, arahagaze, yambaye umupira w'icyatsi, yambaye n'aKagofero, iruhande rw'imbere, agapira yanagatebeje, uwo murima urimo n'uduti.

Ni ingurube eshatu nziza cyane, zunamye, ziri kurya, zibyibushye, ziri mu biraro, ibiraro byubatse neza by'imbaho.

Inkoko nyinshi za kizungu nziza cyane, zitera amagi menshi hafi ya buri munsi zikaba zitera, zororwamo kuzibaga cyangwa gutera amagi.

Ingurube iryamye hasi iri kumwe n'ibibwana byayo birayikikije. Bimwe biri konka ibindi biri iruhande. Haraguru inyuma y'ikiraro hari abantu benshi bari kuyitegereza. Haruguru kandi hari ibiraro byinshi.

Iy'inzu nini igaragara nk'ikiguti cy'amatungo magufi, cyubatse hagati mu murima. Imbere y'iyo nzu hariho ibyatsi, inyuma hakaba ibiti birebire.

Ihene zihagaze ahantu hari utwatsi zifite n'ibiziriko. Hirya hari inzu no hino hari inzu, kandi hariho udutsina haraguru hari n'ibindi biti.

Inka ihagaze impande y'umwana iri mu kiziriko, ifite ibara ry'umweru mu gahanga itagira amahembe iyo twita inkungu, uwo mwana afite igikombe mu ntoki ari guseka ari kugaragaza amenyo.

Ingurube ebyiri imwe isa n'iyuriye ikiraro n'indi na yo yuriye ikiraro hari kuboneka umutwe. Ikiraro gikoresheje imbaho zimwe zitambitse, izindi zihagaritse.

Abantu batatu bagaritse inkende hasi bari kuyivura. Bose barunamye bari gukurikirana icyo gikorwa, umwe we yafashe amaguru, abandi bafashe ku mutwe.

Abagabo babiri harimo n'umuvetereneri uri gutera akanyana urushinge, haruguru hari ikiraro kimwe kidasakaye ikindi kirasakaye, hirya gake hari akantu k'agasozi karimo n'uduti.

Inka nziza cyane ibyibushye bibereye ijisho, ihagaze ahantu murwuri rurimo ibyatsi byinshi cyane. Isa nirikugenda ntabwo iri kurisha n'inka nziza cyane bitaga intungu kera.

Imbwa nyinshi ziziritse mu majosi, ziri kumwe n'abantu, ziri mu murima munini abantu bamwe barahagaze, abandi baricaye bari kuzireba.

Inkoko nyinshi cyane za kizungungu zirundanyije, hari n'izapfutse amababa ari hasi, hari n'iziryamye hari n'ikibuti cyazo hirya.

Inka nziza cyane iri kureba imbere. Yambaye iherena, iri mu kiraro. Haruguru hari indi itari kugaragara neza, na yo iri mu kiraro. zombi ziri mu biraro byiza cyane.

Ingurube nziza cyane, iryamye iri konsa ibibwana byayo, hari n'umugabo usutamye usa nk'aho ari kuzonkereza, aziyobora kuri nyina.

Abantu benshi cyane umwe ateruye ihene, hari umuntu uri kuyivura wambaye n'agapfukamunwa, afite n'akantu k'akagofero mu mutwe wambaye na ga.

Abantu bari kwitegereza inka mu biraro bamwe bambaye imyenda y'imyeru, kandi bambaye imyenda y'ubururu, hirya hari umuntu umeze nk' umudaso, haruguru gake hari akantu kameze nk'agasozi hirya hari ibiti.

Abantu batatu bafashe imbwa. Umwe yambaye imyenda yabugenewe harimo ga , harimo agapfukamunwa. N'undi mudamu wambaye ga, n'undi mugabo uyifashe ku mutwe, kandi bafashe,....

Inka n'abaveterineri bambaye ibisaruveti by'ubururu, ingofero z'umweru, bari kuvura inka, umuveterineri umwe arayifashe, undi ari kuyivura, ari gukora mu nda y'amaganga.

Inka ebyiri, inka imwe ifite ibara ry'umweru n'umukara, hagati basizemo ibara ry'ubururu ,hirya gato hari indi nka itari kugaragaza umutwe neza, umutwe nt'uri kugaragara.

Inka ziri mu ifamu, zifite igisahani cyabugenewe imbere yazo cyo kuriramo. Inka ni nyinshi cyane, kandi hari n'iziri inyuma. Imisozi iri hirya, harimo n'udushyamba.

Inka iri ahantu hari ibyatsi irunamye iri kurisha , y'amabara y'umweru n'umukara .Impande hari ikiraro cyubatswe kirimo imbaho zitambitse n'izindi zihagaze.

Ihene nyinshi ziziritse ku biti binini cyane hirya hari ibindi biti biri kurenguka hari n'umuntu uhagaze hagati yazo.

Inkoko nyinshi ziri ahantu mun nzu, umugore ari hagati y'izo nkoko, bisa nk'aho ari kuzigarurira muzu y'amatafari y'inkarakara.

Ingurube nyinshi ziri mu biraro byazo. Ibiraro byiza byubakishije ibiti bihagaritse, n'ibigiye bitambitse, umugabo ahagaze hagati yazo, afashe imwe mu mugongo.

Umugore uteruye akagurube mu ntoki mu biganza byombi, umugore wambaye itaburiya y'umweru, hirya hari inzu ihagazemo umugabo ari kumwitegereza.

Ingurube nziza cyane iri ahantu impande y'ikiraro, hari n'umugabo uyifashe uri kuyishishira afashe ahagana ku mabere, ni ingurube nziza cyane yamatwi y'tenderi.

Amagi menshi cyane ari mu kantu bashyiramo amagi, hari n'andi magi ari ruguru, atari kugaragara neza. Ayo magi amwe ari mu ibara, ari mu kantu k'ibara ry'icyatsi, ayandi ari mu kantu k'ibara ry'igitaka.

Inka nyinshi zifite amahembe, izindi ziraryamye ziri ahantu mu rwuri, munsi yazo hameze nk'ahari agakingo , hirya hari agashyamba k'ibiti ,hirya cyane hari agasozi.

Umuntu uri hagati y'inkoko nyinshi, inkoko nziza za sasu, imwe ayiteruye mu ntoki, ni umuntu ubona ko yizihiwe n'ubworozi bwe. Yambaye igisarubeti cyi'icyatsi.

Umuntu uri gukurura inka, ahetse ipombo, yayijyanye ahantu hasa nko mu rupangu bakingirizagamo inka kera, hirya hari undi muntu uri kumwitegereza.

Intama ebyiri za kizungu zifite ibyoya byinshi ziri mu urwuri mu byatsi bitoshe cyane, imwe iri kurisha irunamye indi iri gukebuka iri kureba kuruhande.

Inkoko nyinshi cyane, inyinshi ziraryamye biri kugaragara ibiri zihagaze, hirya gato hari ikirara cyazo.

Inka nyinshi cyane ziri mu rwuri ziri kurisha, haruguru hari imirima minini, minini cyane isa n'iyigiye hejuru isa n'iri ku gasozi.

Intama nyinshi cyane ziri mu murima munini, ziri kurisha ibyatsi. Inyinshi zirunamye, izindi nta bwo zunamye, hirya hari amashuri menshi cyane.

Abagabo benshi cyane bafashe inka hari na veterineri. Agiye kuyambika iherena. Veterineri yambaye agapfukamunwa, yambaye na ga mu ntoki.

Inkoko nyinshi cyane za kizungu, zikunda gutera amagi hafi ya buri munsi, haruguru hariho izindi nyinshi zitari kugaragara neza, zifite ibara ry'umweru n'amaguru atukura.

Abagabo babiri bombi bateruye ingurube. Bambaye ibisarubeti by'icyatsi n'ingofero z'icyatsi. Hirya hari umugabo, hari umugore wasokoje, haruguru gake hari ikigega cy'amazi.

Umugore uri kugaburira ihene, hirya hari kandagirukarabe, ruguru ye hari umugabo uri kuzigaburira wunamye ,haraguru hari ibiraro ,ruguru cyane hari ibiti.

Ikigurube kinini cyane gihagaze ahantu imbere y'ikiraro. Aba veterineri barahagaze bari kukireba bambaye imyenda y'imyeru, isarubeti y'umweru, amataburiya y'imyeru bari kugikora ku mugongo.

Ingurube nini cyane, irimo amabara y'umukara kera bayitaga ingurube y'inyarwanda. Mu mpande hirya no hino hari ibiraro.

Amahene menshi bashingiye ibiti ahantu hasa nk'ikibaya, haraguru hari uruzitiro ru zitije ibintu bisa n'ibikenyeri.

Inka zihagaze ahantu, hari abagabo babiri bafashe inka imwe, umwe ari kuyitera urushinge ahagana mu ijosi, undi ayifashe ku mazuru. Ifite n'umurunga mu ijosi.

Inka zigera muri esheshatu ziri mu kibaya zisa nk'aho ziri kurira mu kantu kabugenewe, ziri kurya ubwatsi imwe irunamutse, izindi zirunamye.

Inka ebyiri nziza, imwe ni akanyana indi ni nini zifite ibara ry'umweru n'umukara, imwe iri kureba hasi indi irunamutse, hepfo y'izo nka hari igiti gitambitse.

Inka iri ahantu hazitije ibibaho n'ibiti, ku ruhande hari ikigega gifata amazi, hari n'umugabo wambaye ibisarubeti, igisarubeti k'icyatsi wambaye na bote. Inyuma y'iyo nka, hari inzu.

Inkoko z'abashwi ziri mu akantu k'imbaho kubatswe neza. N'abashwi beza cyane b'umweru n'inkoko za kizungu.

Amagi meza cyane, ari muri twa tuntu twabugenewe babikamo amagi, kugira ngo atagenda akoranaho. Badutondetse ahantu bagiye badupanga ku mirongo. Amagi y'inkoko z'inyarwanda y'umweru.

Ibigurube bitanu binini, biri kurira mu gisahani cyazo cyabugenewe, zose ziteye umugongo ziri kurira muri icyo kintu.

Abantu benshi cyane, bari ku mironko bari kumwe n' imbwa nyinshi, bari kureba imbere bose, harimo n' uwunamye, ukoze ku mbwa inyuma hirya hari inzu ihari.

Abantu baje mu ifamu y'inkwavu, bari mu biraro bari kugenzura inkwavu, ni abaveterineri bari kureba uko zimerewe bose barunamye.

Ihene nziza cyane ifite ibara ry'umukara ifite icebe ryiza rinini, iri kureba ku ruhande isa nikebutse. Ifite amahembe haguru hariho ibyatsi birebire kandi na yo ihagaze mu byatsi.

Umugore uri gutambika mu kayira, uri gukurura intama ebyiri zirimo ibiziriko birebire, hirya hari umurima uteyemo imyaka, hirya hari uduti turi kugaragara.

Urukwavu ruri mu ishyamba, ruri kureba hirya, urukwavu itungo rikunzwe cyane, rivamo inyama ziryoshye, bakunda guteka mu maresitora amwe n'amwe.

Umuririma urimo ibyatsi, urimo inyamaswa bita imbogo n'utunyoni bita inyange. Iyo mbogo ni nini cyane, utunyange turi kuyitegereza.

Inkware ebyiri zishoreranye. Imwe iri imbere itangiye gukandagira mu byatsi, indi iri inyuma irayikurikiye. Izi nkoko zo mu ishyamba ziraribwa. Zararibwaga kera ni uko ubu zitagikunda kuboneka.

Ikiyoka kinini cyane gisa n'umukara, gifite ibigaragamba, ikiyoka umuntu wese abona yashaka kukica byanze bikunze, ikiyoka gishushanya nka sekibi.

Inyamaswa yitwa ingagi, ikurura ba mukerarugendo, iri mu ishyamba yuriye igiti, uri kubona ko igifashe neza nk'umuntu, inyuma hari igiti kibumbeje cy'amababi y'icyatsi.

Inyamaswa twita inzovu ihagaze mu bwatsi. Ibinono by'imbere bihagaze mu bwatsi, ibindi biri inyuma bihagaze ahantu hari akayira. Ni inyamaswa na yo ikurura ba mukerarugendo, hirya y'iyo nyamaswa hariho igiti kinini kigandaye.

Inyoni y'ibara ry'umuhondo, n'umweru, n'umukara, ihagaze hagati impande hari igiti cy'umwembe kiri iruhande iri kucyitegereza.

Inyoni enye ziri mu murima usa n'urimo amabuye haraguru hari ubwatsi bw'icyatsi kibisi.

Ishyamba ririmo amatungo mu murima harimo ihene, hari igisimba kiri ku ruhande kiri kurya ihene, ihene itereye amaguru hejuru, icyo gisimba gisa nkaho kiri kudobora mu nda.

Ikinyoni kirekire gifite ibara ry'umweru gihagaze mu murima munini w'umuceri, umuceri utangiye kuyanga, umuceri ukunda kuribwa ahantu henshi.

Igisiga kinini cyapanze amababa, gisa nk’aho kiri kuzenguruka, kiri gushakisha inkoko. Hasi y’icyo gisiga hari udushwi. Ni igisiga gikunze guhiga inkoko cyane.

Uruyoka runini cyane rwizingazinze ruteye ubwoba, rurimo amabara. Ruri ahantu h'igitaka. Igitaka ni umurima munini. Kirizengurutse kigiye kizingazinga nk'ingata.

Inuma nziza cyane yiganjemo ibara ry'mweru ihagaze ku ishami ry'igiti, irikureba kuruhande. Inuma n'inyamaswa yaribwaga kera kera barayihigaga bakayirya.

Inyamaswa bita intare, inyamaswa z'inkazi zikunda kuba mu mashyamba manini, muri za parike ,na zo zikurura ba mukerarugendo, inyamaswa zitinyitse.

Inyoni yitwa inyombya, ihagaze ku ishami ry'igiti. Ifite amabara y'umuhondo, n'ay'umukara, n'ay'umweru. Iri kureba, isa n'iri kureba ruguru cyane.

Ibikeri biri ku giti, ibiceri bitatu, bifite ibara ry'icyatsi, byose birasutamye, ibikeri biri mu bwoko bw'abega.

Umushwi w'imbata uri hagati mu byatsi byinshi. Umushwi ufite ibara ry'umweru, ufite n'ibara ry'umukara. Uyu mushwi ni mwiza cyane.

Inyamaswa ikunda kuba muri pariki ikurura ba mukerarugendo, isa n'inkende, inyamaswa ifite ubwoya bwinshi, irasutamye, ishinze ikibuno hasi.

Inyoni nyinshi cyane ziri ku ntsinga zitondekanyije, zimwe ziri ku rurutsinga ruri hejuru, n'urukurikiyeho, n'urukurikiyeho, n'urukurikiyeho, intsinga eshatu ziriho inyoni zose. Izo nyoni ni inyoni zikunda kuguruk a.

Imbeba y'inyeshyamba kera bayitaga imbeba ya mushushwe, ikunze kuba mukinani, itandukanye n'iyo mu nzu kuko yo ifite amabara.

Ikinyoni kinini gihagaze ku ishami ry'igiti, gifite urunwa runini. Gikunze kuba ku nkombe z'ikiyaga, gishaka udusimba mu mazi. Kiri kureba ku ruhande.

Inyamaswa yo mu ishyamba yitwa isha, irigusimbuka iri mu ishyamba ririmo ibiti birebire n'ibigufi.

Ikinyoni kiri ku ishami ry'igiti kiri gukora icyari, kirararamye kiri kureba hejuru kiri kureba icyari cyacyo. Ni ikinyoni kigizwe n'ibara ry'umuhondo.

Ikinyoni kinini kiri mu kiyaga, cyafashe ifi mu kanwa kayo, ikinyoni gifite urunwa rurerure, kinini, kizwi ku izina ry'uruyongoyongo.

Umurima munini, urimo ibyatsi, ibiti bifite indabo, harimo inkende iri kumwe n'akana kayo, inkende n'inyamaswa ikurura ba mukerarugendo.

Imbata ziri mu mu mazi imwe n'imbata nini iri kumwe n'abashwi bayo, irikoga imbata ikunda ahantu hari amazi cyane nibwo ubuzima bwayo ikiremwa.

Ikinyoni kinini kiri ku nkombe y'ikiyaga. Gifite urumwa rurerure cyane n'amaguru maremare, gikunze kurya utudusimba two mu mazi. Icyo kiyaga hakurya hari ubutaka.

Ikinyoni kiri ahantu hitaruye cyitwa ingona, gifite ibara ry'umweru n'iry'umutuku, ingona ikunda kuza ahantu babagiye inyama, kugira ngo isahure inyama.

Inkoko y'inyeshyamba bitaga kera inkware, iri ahantu h'ishyamba hameze nk'ahari umukenke, iri kuba hejuru, iri kureba ku ruhande, ni inkoko kera bahigaga bakayirya.

Ingagi isigatiye umwana wayo, iri mu ishyamba, hirya hari kureguka ibiti, ingagi zikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa iri mu ishyamba; Inyamaswa (ihene) yo mu ishyamba bita isha, ifite amahembe maremare imeze nk' ikangaranye, iri kureba nk'aho hari icyo yikanze, iri mu ishyamba ry' inzitane.

Utunyoni twitwa udufundi. Agafundi kamwe gasa n’umutuku, agasa n'umutuku gahagaze ku ngeri y’igiti kirambitse. Akandi gahagaze ku giti baciye kabiri.

Agahene kitwa nyirabuhene ko mu ishyamba gahagaze ahantu h'ubutayu hatariho ubwatsi, gahagaze kemaraye nta bwo kari kurisha. Inyuma yako hari ishyamba ry'inzitane.

Inyoni ihagaze ahantu heza. Inyoni bita inuma iri kureba ku ruhande. Ifite amaguru y'umutuku. Inuma hamwe na hamwe zajya zororwa, kandi zikaboneka kenshi.

Imbeba iri mu byatsi iba mu gasozi, yo mu gasozi yitwa ururenga, iyo mbeba iba mu kinani, ntabwo iba mu rugo.

Ihene iri hagati y'ibiti bibiri. Ibiti bigandaje udushami, ihene iri kureba hirya, nta mahembe ifite, ihagaritse amatwi.

Igiti kinini inyoni yacyuriye, ni igiti kinini cyane kiriho inyoni ya dondanga, hamwe yamaze kuhadondanga hari umwobo munini, yafashe urundi ruhande iri kudondanga.